Umubyeyi uri mu nyubako, bigaragara ko ari umucuruzi, acuruza imiti ndetse agacuruza n'ibiribwa bigiye bitandukanye kubera ko yabigize umwuga.

Akenshi iyo urebye etajeri uko iba yubatse, usanga hari ahajya ibicuruzwa ndetse ukarambikaho byinshi cyane ku buryo umukiriya ubishaka ubimuhereza ari byinshi.

Abakoresha ifumbire bavuga ko ifumbire mvaruganda ariyo itanga umusaruro mwinshi, ugereranyije n'ifumbire ikomoka ku matungo, akaba ariyo mpamvu rero bashishikariza abantu gukoresha ifumbire mvaruganda.

Avoka ni igihingwa gitanga umusaruro vuba kuko cyifashishwa mu gihe abantu bari kurya, kandi kigatanga n'amafaranga.

Umusore uri gutiyura itaka bigaragara ko agiye kurikoresha, afite igitiyo ndetse afite n'umufuka ari kugenda arambikaho itaka.

Abahinzi akenshi ukunze gusanga bakora ishyirahamwe, kugira ngo bihurize hamwe noneho baterane imbaraga kugira ngo bazakore ibikorwa bikomeye.

Ibihingwa by'ibigori bikenera ifumbire nyinshi kugira ngo bibashe gukomeza gukura kandi bitange umusaruro, ni yo mpamvu usanga abahinzi babigize umwuga, bakomeza gushishikariza abantu kubihinga.

Akenshi usanga iyo abahinzi basoje guhinga, bahunika ibyo bahinze, maze bakajya bagenda bareba uko bimeze niba bitarapfuye, maze bagakuraho ibyo bakoresha.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko bifasha abantu guhumeka umwuka mwiza ndetse bigatuma umuntu akora akazi ke uko yagombaga kugakora.

Indabo ziteye iruhande rw'inyubako, bigaragara ko ari imbere y'urugo rw'umugabo w'umukire, akenshi usanga abakire batera indabo imbere y'ibipangu byabo.

Amaterasi akunda guhingwamo ibishyimbo, ibijumba, imyumbati ndetse n'ibindi kandi ushobora kuyahingamo imboga ndetse n'imbuto.

Imirima myinshi ikunze kuba ihinzemo ibishyimbo, amajeri ndetse n'ibindi. Hari aho usanga barahahinze ibishyimbo byinshi cyane bakabihembera kugira ngo bigaragare neza.

Inyubako ziri ku mudugudu ubona ko zubatse ku buryo bugezweho, hari ishyamba ryinshi rikurura umuyaga n'amahumbezi, ku buryo umuyaga mwinshi utaza ngo utware izo nyubako.

Inkokokazi ubona ko ivuye gutera amagi, biragaragara ko ari inkoko nziza kandi iguze amafaranga menshi cyane, ku buryo atarenze ibihumbi icumi.

Inkoko akenshi zikunda kurya ibiryo byazo ariko bikaba bihenze, ni yo mpamvu usanga hari abantu barora amatungo akabananira kubera kutayabonera ibyo akeneye.

Abacuruzi bacuruza ibihingwa bitandukanye, harimo intoryi, ibitunguru, karoti ndetse n'ibindi. Bigaragara ko aba bantu ari abacuruzi b'imboga ndetse n'imbuto.

Umuceri ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro mu gihe gito. Abantu benshi bazi ko umuceri uhingwa ahantu hari amazi menshi cyane ariko sibyo.